Akabati karimo ubwoko bwinshi kandi butandukanye bw' imiti, iyi miti ifunze mu makarito yazo, muri iyi nzu harimo umuntu w'umugore wambaye itaburiya y'umweru ,usa nkaho ari we ukora muri ibi ibintu biryanye n'imiti.

Abagabo n'abagore bahagaze ahantu kwa muganga, hari abambaye amataburiya, umweru ndetse n'uwambaye imyenda y'ubururu, hariho kandi umurwayi ufite serumu mu kaboko, uryamye ku gitanda, wiyoroshe ikiringiti gifite ibara ry'ubururu bwijimye.

Udukarito turi mu mabara atandukanye, duto dufunze hamwe n'amacupa y'umweru ari mu kabati, ako kabati gafite ibara ry'icyatsi, imbere hari umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, afashe agakarito kamwe k'ubururu mu ntoki.

Igihingwa ngandurabukungu. Iki ni igihingwa gifitiye akamaro kanini igihugu, ndetse n'abagituye. Iki gihingwa cyitwa ikawa. Iyi kawa ifite akamaro kanini, kubera ko ivamo icyayi gikunzwe n'abantu batari bake.

Inzu igeze mu gice baregusharupanta, iyi nzu ikaba yubakishije amatafari y'inkarakara, hejuru kandi aho amatafari arangiriye hatwikijeho ibitegura, impande y'inzu cyangwa imbere hariho uduti tw'inkarisho niho izatukuye, n'izikiri icyatsi.

Igihingwa cy'ibiti, ibi biti byitwa inusi z'umweru, iki gihingwa cyib'ibiti gikunzwe n'umubare w'abantu utari muke, cyane ko bifite akamaro kanini, bamwe bakuramo umuti abandi bakagitera nk'icyo kurwanya isuri, cyane ko abasatuzi bagikoraramo n'imbaho.